Umuhinzi witwa Burayani jonizi hamwe n'amagambo yavuze ko atabona umuntu ushyizeho ingamba runaka ahubwo abona umuturanyi.

Isoko ricururizwamo inkweto zinyuranye z'amoko yose, amabara yose, inganda zitandukanye, irimo amasinekazi, adidasi,...

Inzu icururizwamo imodoka zo mu bwoko bwa yundayi iherereye i Kigali ikaba ari imodoka za yundayi zihabwa serivisi zirimo zo gukanika amapiyese.

imodoka ya yundayi sonata yo mu bwoko bwa ayiburide ikoresha amashanyarazi na esanse igurishwa miliyoni icyenda yundayi sonata, iri i kigali.

Indobo irimo amandazi acuruzwa muri kantine, ikaramu, ameza hamwe n'icyuma bakoresha batanga ayo mandazi.

Amata ari mu bikombe, mu bikarito, no mu tujerekani, akaba ari ubwoko bw'amata akorerwa mu Rwanda n'uruganda bita Mukamira.

Uburyo wakohereza amafaranga, wayakira, wakwishyura fagitire zinyuranye, wagura amayinite, wakoresha serivise za banki ukoresheje emutiyeni mobayiro mani.

Uburyo bwo kohererezanya amafaranga aturutse wohereza mumahanga cyangwa se wohererezwa ukoresheje uburyo bwa manipura.

Icyapa cyerekana uko ibiciro by'ivunjisha bihagaze hagati y'amayero, amapawundi y'abongereza, amadolari y'abanyamerika, amashilingi y'amanyakenya, amashilingi y'amatanzaniya,...

Amarupa akoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde, mu kugura no kugurisha; ariho ifoto ya Mahati Magandi wabaye intwari y'ubuhinde, yigishaga amahoro.

Uburiro aho hari umugongo inyuma igishushanyo cy' umugongo kimwe mu bintu bigize umuco, nk' ibirango biranga umuco nyarwanda.

Uruganda rw'imbuto rukora amaji, imitobe inyuranye iva mu mineke, mu nanasi, imyembe, imbuto nyinshi zitandukanye.

Isoko ry'imbuto aho umucuruzi w'umumama asinziriye utegereje abakiriya. Harimo inanasi, imineke, amavoka, amacunga n'izindi mbuto zitandukanye.

Mu isoko ahacururizwa ibinyampeke, ibishyimbo, ibigori, n'ibindi bikoresho byo mu rugo, amabase ibikapu ibyokurya ibitoki.

Abakozi ba emutiyene bagurisha serivisi harimo kubarura ama simukadi, guhinduza nimero, kugura nimero nshyashya n'ibindi bibazo bitandukanye, amatente ya emutiyene.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Kopanyi yitwa vuba vuba ishobora kukugezaho ibicuruzwa byawe aho waba ubiguriye hose ukoresheje ikoranabuhanga, ukabikugezaho vuba vuba.

Inyubako ikorerwamo hari ibiro by'ihaha tekinorogi, isoko ryo kuri murandasi riherereye kugiporoso gisimenti.

Uru ni urubuga rwa yubeyi rucururizwaho, aho umukiriya agura akoresheje mudasobwa cyangwa telefone, ibicuruzwa bikamugeraho, aho ari hose.

Uko inzu ikodeshwa amadorari ibihumbi bibiri kukwezi iba imeze mu rwanda, iba isa neza kandi ari inzu igeretse yo kubamo iri ahantu heza.

Inzu y'igisenge ifite amabati atukura iri kabeza igurishwa, ikaba iri ahantu heza mu miturire, ikiri nshyashya. Iragurishwa.

Iguriro rusange rigezweho, abantu batandukanye baza guhaha ibicuruzwa, bakishyura, riherereye I Kigali.

Inyubako igaragaza amazu menshi acururizwamo ibicuruzwa binyuranye harimo ibikinisho by'abana, imyenda, imideri, ibintu binyuranye.

Uburyo wakwizigamira muri Ejo Heza, ukoresheje telefone yawe igendanwa. Ejo Heza ni ikigo cy'ubwiteganyirize cy'Abanyarwanda kigenewe buri muntu wese aho ashyiramo amafaranga, akazakugoboka mu zabukuru.

Iguriro rusange rya sawa siti, aho bagira ibicuruzwa binyuranye harimo ibirayi, hakaba harimo abaje kugura n'abakozi bambaye amajire atukura.